Aha ni ku ivomo rusange, aho hari umugore waje kuvoma, ari kuvomera mu ndobo y'icyatsi. Inyuma gatoya hari abagore babiri bari gupoma amazi ngo aze babone uko bavoma.

Aha haragaragara umujyanama w'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse na bote z'umweru, wicaye ku gatebe cy'indambure, imbere ye hari umugore ukikiye umwana, bigaragare ko hari amabwiriza ari kumuha, bicaye imbere y'inzu, inzu irakinguye harimo rido.

Mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'uburwayi, haragaragaramo umusaza ufite imvi nyinshi wambaye ingofero, umuganga uri kumwitaho yambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'amadarubindi.

Ku ivomo rusange ahantu bigaragara ko hari abantu babiri, umwana yagiye kuvomera mu ndobo arimo arikorera. Hirya y'iri vomo haragaragara inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Iyi ni inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho hateraniyemo abantu bameze nk'abayobozi bakora mu nzego zitandukanye, inyuma yabo haragaragara amadirishya arimo ibirahure, ndetse ku rukuta haragaragara ifoto.

Aha haragaragara umwana w'umukobwa ukiri muto uri kunywa amazi kuri robine, ari kunywesha intoki inyuma ye hari abandi bantu b'abagabo bahari, iruhande rwe hateretse intebe ya pulasitike y'ubururu ndetse hari n'icyapa cyanditseho amagambo UNICEF.

Inyubako nziza isa neza, yateraniyemo abantu bigaragara ko abo bantu bari mu nama, aho bicaye bazengurutse ameza ariho igitambaro cy'umweru, kuri ayo meza hateretseho mudasobwa.

Inyubako yahuriyemo abantu batandukanye, bigaragara ko aba bantu baje mu nama, harimo abagore bafite umusatsi muremure badefirije imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Ku rwunge rw'amashuri haragaragara umwana w'umukobwa wambaye impuzankano z'ishuri, aho imbere ye hateretse ikidobo kiri mu ibara ry'icyatsi basa nkaho bashyiramo imyanda, iruhande rw'ayo mashuri haragaragara ibiti birebire.

Aha ni ku mugezi rusange wahuriyeho abagore batandukanye, aho baje kuvomera mu ndobo y'ubururu ndetse no mu ndobo y'umutuku, inyuma yabo haragaragara inzu isakaje amabati y'umweru.

Iyi nyubako yateraniyemo abantu benshi batandukanye, bigaragara ko baje mu nama rusange. Harimo abagore bakenyeye ibitenge, ndetse n'abagabo bambaye amashati y'amaboko maremare; biragaragara ko harimo kwakamo amatara.

Aha haragaragara abana bambaye impuzankano z'ishuri aho bari kuvoma amazi yo kunywa ku kigega, buri wese afite igikombe ari kunywa.

Umusaza wicaye ku njerekani, ageze ku ivomo yari agiye kuvoma, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko magufi, inyuma ye haragaragara ibimera bigiye bitandukanye.

Aha ni ku ivomo rusange, ahateraniye abantu benshi, bari gukaraba bakarabira mu ibase iri mu ibara ry'umutuku. Inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye.

Iyi ni inyubako yubakishije amatafari ahiye aho imbere yayo hari abantu bambaye impuzankano z'akazi ndetse hateretse na kandagira ukarabe, iyi nyubako bigaragare ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa remezo.

Aha haragaragara umuzungu wambaye ijiri y'umukara irimo ibara ry'umweru ndetse yambaye n'amadarubindi. Yambaye baje mu gatuza, ari guhereza ibipapuro abandi bantu bamuri imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hano, bigaragare ko bashagariye uyu mugore. Haragaragara umugabo wambaye ingofero y'umweru y'urugara, afite indangururamajwi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ni icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Iki cyapa kiragaragaraho abantu barindwi, hasi handikishijeho amagambo Unicef.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi aho abantu benshi bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru, haragaragaramo umusore wambaye ingofero y'urugara ndetse n'amadarubindi.

Aha ni ku mugezi rusange aho hari umuntu uri kuhakarabira mu ntoki, iruhande rw'uyu mugezi hateretse indobo iri mu ibara ry'ubururu, inyuma y'uyu mugabo haragaragara ibiti birebire.

Umwana ukiri mutoya ahagaze mu bimera bimeze nka dodo, inyuma ye hari umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse yambaye n'ikanzu iri mu mabara agiye atandukanye.

Icyapa cy'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hariho umugabo wambaye kositimu uhagaze uri gutanga ikiganiro. Iruhande rwe hari intebe ebyiri ndetse n'ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho hari kugaragara umukobwa wambaye agapira kajya gusa umuhondo, ari kumwe n'abaganga bambaye impuzankano z'akazi, bari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, imbere ya muganga hateretse mudasobwa.

Ku ivomo rusange ahateraniye abantu batandukanye bamwe baje kuvoma abandi baje gukarabya abana, iri vomo risize irangi ry'ubururu, hirya yaryo haragaragara inyubako.

Aha ni ku ivomo rusange ahateraniye abantu benshi baje kuvoma. Haragaragara umugabo wambaye ingofero ya purasitike y'umuhondo, aho bigaragara ko ari gukora aya mazi yari yagize ikibazo. Iri vomo risize irange ry'ubururu.

Aha ni ku ivomo rusange ahagaragara abana babiri, umwe yambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi, undi yambaye imyenda iri mu ibara rya gisirikare, bari gukaraba mu ntoki bakarabiye ku mugezi.

Aha ni ku ivomo rusange aho uyu mugezi ufite robine ebyiri, haragaragara umwana wambaye ikabutura y'umutuku uri kunywa amazi anywesheje ibiganza, munsi y'iyi robine hargaragara indobo, hirya y'uyu mugezi hari ibiti birebire ndetse n'inyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga, haragaragaramo abantu batanu basa nk'aho ari abayobozi bayobora mu nzego zitandukanye, abagore babiri, ndetse n'abagabo batatu, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi yo kunywa.

Aha haragaragara abantu batandatu, aho hagaragaramo w'umuzungu. Iruhande rwe hagaragara umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse hagaragara abandi bagabo bambaye amakositimu. Bigaragare ko iyi nama yari yabaye mu kwezi kwa munani, bibiri na cumi na karindwi.

Inyubako isize amarangi ajya gusa umuhondo, hateraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo umugabo uhagaze hagati, bisa nk'aho ari we uri kubagezaho ikiganiro.

Aba ni abajyanama b'ubuzima bateraniye kuri iyi nyubako, aho bigaragara ko harimo n'abandi bayobozi bari mu nzego zitandukanye. Bahagaze kuri esikariye bari gufata ifoto.

Inyubako yubatse mu buryo bwa gihanga, yicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, barimo abazunguru ndetse n'abirabura, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, amakayi ndetse na mudasobwa.

Aha ni ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi, aho hari umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba afite n'ikayi mu ntoki, afite umusatsi muremure w'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishushanyijeho inzu y'umweru ndetse n'ubururu, iyi nzu iriho ibirahure, amagambo yanditse kuri iki cyapa ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Aha ni ku ivomo rusange ahari kugaragara abana bari kunywa amazi, barimo baranywesha intoki, nta gikombe bafite, aba bana biragaragara ko bose ari abanyeshuri.

Iyi ni inyubako bigaragara ko harimo abayobozi babiri, bose bambaye amakositime. Ku meza imbere yabo haragaragaraho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aha haragaragara abakobwa ndetse n'abahungu bambaye ingofero z'imyeru, harimo n'abandi bambaye imipira y'ubururu ndetse n'abambaye imipira y'imyeru, bafite icyapa imbere yabo urebye ni umunsi mukuru bari kwizihiza.

Aha ni ku ivomo rusange ahateraniye abantu benshi baje kuvoma, aho hari umugabo uri inyuma gatoya wambaye imyenda y'umukara uri gupomba amazi ngo bavome, inyuma yabo hari ibimera bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu kirori, biragaragara ko hano hantu habereye umunsi mukuru, haragaragara amahema y'umweru ndetse hirya gato hari inzu isakaje amabati y'umutuku, haruguru y'aba bantu haragaragara ibiti birebire.

Aha ni ku ivomo rusange ahagaragara umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umweru n'ipantaro iri mu ibara rya pinki, ari kuvomera mu majerekani y'ibibundi ari mu ibara ry'umuhondo.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga WASAC.

Aha ni ku ivomo rusange, haragaragara umwana uri kuvomera mu ndobo y'ubururu, hirya ye haragaragara izindi ndobo ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, hakurya haragaragara ibiti binini ndetse n'indabyo.

Aha haragaragara inyubako nziza kandi nini, haragaragaramo abantu bicayemo bari mu ngeri zitandukanye, hari abasutamye ndetse n'abicaye ariko abenshi barimo kwiyandika ku mpapuro ndetse haragaragara n'agacupa karimo amazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari kugaragaramo umugore wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, ari gutera urushinge umugore wambaye agapira k'umukara, uyu mugore bigaragare ko ari kubabara.

Inyubako yateraniyemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, aho hari abakikiye abana ndetse hakagaragara n'abana bakiri bato, haragaragara umugabo uhagaze ufite igipapuro mu ntoki bigaragare ko ariwe uyoboye iki kiganiro.

Aha hagaragara icyapa cyangwa se ikirango kiri mu ibara ry'umukara, hariho n'irindi bara rya oranje hashushanyijemo agasaraba kari mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho hagaragara abantu bagiye batandukanye bagiye kwaka serivisi zitandukanye, aho hari kugaragara umusore wambaye ijire y'icyatsi iri mu ibara ry'umukara ndetse inyuma ye hari inyubako yubakishije amatafari.

Inyubako yubatse neza isize amarange y'umweru ndetse n'ubururu, yicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, imbere yabo ku meza harambitse amatelefoni na mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aha haragaragara umujyanama w'ubuzima, aho ari gusuzuma abarwaye umuvuduko w'amaraso, yambaye itaburiya y'umweru ndetse aba barwayi biteza ibitambaro mu mutwe.

Umugore uvuye kuvoma afite indobo imwe mu ntoki indi arayikoreye, bigaragare ko uyu mugore ari kuvunika, imbere ye haragaragara ibiti birebire.

Aha ni ku ivomo rusange, hari kugaragara abana bambaye impuzankano z'ishuri, hirya yabo haragaragara inyubako yubakishije amatafari ahiye, aho iyi nyubako bigaragara ko ari amashuri.

Aha ni ahateraniye abantu bari mu ngeri zitandukanye, aho hari abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abambaye baji mu gatuza, imbere yabo ku meza harambitseho mudasobwa ndetse inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho abantu batatu.

Iki ni ikiraro cyubatse mu buryo bwa gihanga, cyubakishije ibyuma, cyubatse mu buryo bw'uruziga, hirya yacyo haragaragara ishyamba ririmo ibiti birebire.

Aha haragaragara umugabo wambaye ishati y'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara ndetse ninkweto z'umukara. Ari gukaraba kurikandagirukarabe ikoze mu kabuni ka arindwi ndetse n'ibiti.

Aha ni ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, haragaragara umusore wambaye itaburiya y'umweru na baji mu ijosi, imbere ye hicaye umukecuru witeze igitambaro mu mutwe, bigaragare ko ari kumuha imiti imuvura.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bateraniye aha ngaha, abenshi muri bo bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hamanitse icyapa ku rukuta, cyanditseho amagambo arabisi.

Aha ni ku ivomo rusange ahagaragara abantu bane, aho hari umwana w'umuhungu uri gupompa amazi wambaye ingofero, umupira w'umweru ndetse yakenyeye n'undi mupira mu nda, inyuma ye hari akabuni gatoya k'amacupa arindwi, hirya y'umugezi na ho haragaragara ibimera bitandukanye.

Aha ni ku ivomo rusange, ahagaragara umukobwa uhagaze mu muryango, bigaragare ko ariwe uri kuvomera bano abantu baje kuvoma, haragaragara amajerekani menshi ari ku ivomo, hirya y'ivomo haragaragara ibiti birebire.

Umukobwa wadefirije umusatsi, yambaye imyenda idoze mu bitenge, ari gukarabira mu ntoki kuri robine, inyuma ye hari igipangu cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Aha haragaragara abana babiri, aho bari gukaraba mu ntoki bakarabira ku mugezi, uyu ni umugezi rusange, biragaragara ko uri mu kabande.

Abana babiri b'abakobwa bagiye kuvoma ku ivomo rusange, barimo barakorerana indobo y'amazi iri mu ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari inzu ya nyakatsi, hirya haragaragara umusozi uriho ibimera bitandukanye.

Aha haragaragara, umugabo wambaye impuzankano z'akazi k'abapolisi, aho bigaragara ko ari kunywesha umwana, haragaragara ndetse abana benshi bambaye imyenda iri mu ibara rya oranje, hakagaragara n'umuntu wambaye ijire n'amadarubindi.

Aha haragaragara abana bari kuvoma amazi, bari kuyavoma mu tugega duteretse ku meza turi mu ibara ry'ubururu, bari gukoresha ibikombe kubera ari amazi yo kunywa.

Inyubako nziza yateraniyemo abantu bagiye batandukanye, aho hari kugaragaramo umuzungu wambaye amadarubindi, inyuma y'aba bantu haragaragara umuntu uri kubafotora.

Inyubako yateraniyemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, aho hari kugaragaramo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare, hagaragaramo ndetse n'umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Aha haragaragara umugore w'umuzungu, afite umusatsi muremure ariko bigaragare ko akuze, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse yambaye n'agakomo ku kuboko n'isaha.

Aha ni ku kigo cy'urwunge rw'amashuri, aho hari kugaragara abana bari ku meza bari gufata ifunguro, bari kurya kawunga ndetse n'ibishyimbo, inyuma yabo hari icyapa cyangwa se ikibaho bigiraho, kiriho ibintu byanditseho.

Aha ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho umuganga ari gusuzuma umurwayi niba arwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa indwara y'umutima, hagaragara abantu batatu bakeneye serivisi.

Aha ni ku ivomo rusange, ahari kugaragara abana bambaye impuzankano z'ishuri, bari gukarabira ku mugezi, hasi hateretse indobo ziri mu ibara ry'umuhondo, imbere y'indobo imwe hateretse akabuni.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, aho hagaragaramo umuntu bari gusuzuma amaraso. Harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse hari n'umuhagaze iruhande ufite ibipapuro mu ntoki.

Aha haragaragara ikirangantego cya polisi y'u Rwanda, kirimo inuma y'umweru iri kuguruka, ndetse iki cyapa kiriho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nziza yubakishije amakaro hateraniyemo abantu benshi batandukanye, haragaragaramo ameza ateretseho mudasobwa ndetse biragaragara ko amatara arimo kwaka.

Icyapa gishushanyijeho umukobwa ndetse n'umuhungu, ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi, kuri iki cyapa, handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'umweru.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi batandukanye, aho hagaragara umubyeyi w'umugore ufite umusatsi muremure w'umukara ufite n'isakoshi mu ntoki, bigaragare ko ari kuvugira mu ndangururamajwi n'undi mukobwa bari kumwe nawe abafite indangururamajwi mu ntoki ari kuvugiramo, bisa nk'aho bari gukina ikinamico.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'umweru, iki icyapa cya RBC, kuri iki cyapa cyanditseho amagambo Unicefu, byanditse mu magambo ari mu ibara ry'ubururu.

Aha haragaragara icyapa kiriho umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi, iki cyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, yicaye ku musambi uzinze, bamuhambiriye ku giti bakoresheje umunyururu bamuzirika kuri iki giti bigaragare ko ari igihano.

Inyubako nziza isize amarange atandukanye, imbere yayo haragaragara jaride ziteyemo imikindo ndetse kandi imbere yayo biragaragara ko hari akayira karimo amapave.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa gihanga, isize amarangi y'umweru, mu nzugi no mu madirishya harimo ibirahure ndetse ikikijwe na jaride.

Aha haragaragara umugabo usa nabi, yambaye imyenda yacikaguritse ndetse afite n'imifuka mu ntoki, inyuma ye haragaragara imodoka iri mu bwoko bwa kamyo.

Aha haragaragara abana cyangwa se urubyiruko rw'abantu birabura, aho bigaragara ko aba bantu bafite akababaro ndetse n'agahinda kenshi, biragaragara ko bari kurira batakamba basaba imbabazi.

Umusore wambaye ishati y'amaboko maremare, ari gusuhuzanya n'umuntu wambaye imyenda yacikaguritse, uyu mugabo afite umusatsi usa nabi bigaragare ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Aha haragaragara umuhungu w'umusore wicaye yegamye ku rukuta, yambaye agapira k'amaboko magufi gatukura, hirya ye haragaragara ibindi bintu bimeze nk'amamodoka.

Aha haragaragara abakobwa babiri, umwe wambaye amadarubindi ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'umukara n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ingofero, bicaye barebana nk'aho bari kugirana inama.

Aha haragaragara umugore ndetse n'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, aho afashe ikibumbano cy'igisamagwe mu ntoki, hirya yabo haragaragara abantu bari mu kintu kimeze nk'ikibase.

Aha haragaragara umugore wicaye ku ntebe y'indambure, aho yicaye aringaniye n'idirishya rikinguye. Iyi nzu bigaragare ko yubakishije amatafari ya rukarakara.

Aha haragaragara abantu bahagaze imbere y'imodoka, bigaragare ko aba bantu bari kwifotoza; hirya y'iyi modoka hateye amashitingi cyangwa se amahema, ari mu ibara ry'umweru.

Umwana warize amarira yatembye ku matama, aho bigaragara ko bashobora kuba bamukubise cyangwa yagize agahinda, ari kumwe n'umubyeyi ufite inkwi mu ntoki, hirya yabo haragaragara abantu benshi batandukanye.

Umugabo wambaye igipine mu nda afite umusatsi usa nabi ndetse n'ubwanwa, yambaye ikabutura ndetse hejuru yambaye agasengeri yicaye hasi.

Abana batoya bigaragara ko bishimye, biteze utuntu tw'udutambaro mu mutwe, bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi, bigaragare ko baje gufana hari nk'umukino wahabereye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kigiye kirimo amabara agiye atandukanye, haragaragaramo ifoto y'umukobwa, uyu mukobwa yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umukara.

Aha haragaragara icyapa kiriho amabara agiye atandukanye, aho hashushanyijeho umukobwa uri guseka, uyu mukobwa yambaye amaherena y'umweru ndetse hejuru yambaye umwenda uri mu ibara rya oranje.

Umukobwa wirabura, ufite umusatsi w'umukara, yambaye agapira k'umukaramo imbere ndetse yambaye n'undi y'umutuku inyuma. Arasa nk'uri guseka, inyuma ye hari inyubako ikinguye.

Abana bicaye ahantu bigaragara ko bishimye, aba bana bashobora kuba bari kureba amashusho. Bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, aho harimo uwambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi yegeranye n'uwambaye umupira w'ikigina.

Aha ni ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi, aho bigaragara ko higanjemo urubyiruko, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, impande yabo haragaragara indabyo.

Inyubako nziza, isize amarangi agiye yatandukanye, aho iyi nyubako ifite urupangu rwubakishije amabuye. Hejuru hakaba hariho utwuma turi mu ibara ry'ubururu ndetse iyi nyubako mu madirishya yayo no mu nzugi harimo ibirahure.

Inyubako isa neza yubatse mu buryo bwa gihanga, yateraniyemo abantu bari mu ngeri zitandukanye haragaragaramo abagore ndetse n'abagabo, hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Aha haragaragara abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bahagaze imbere y'imodoka, hirya y'iyi modoka haragaragara ihema riri mu ibara ry'umweru.

Aha hari abagore babiri umwe ashyigatiye umwana yambaye ingofero mu mutwe, undi yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi afite telefoni mu ntoki, biragaragara ko hari amakuru ari kumwereka muri telefone.

Aha haragaragara abantu batanu bicaye ku ntebe y'indambure, aho bigaragara ko hari ikibazo bari gucoca. Umugabo uhicaye yambaye ipantaro yayikunje ndetse yambaye n'ibirenge, inyuma yabo haragaragara ibiti ndetse n'insina.

Umusaza wirabura uri guseka, yakutse amenyo abiri yo hejuru ndetse n'ayo hasi. Yambaye ikigofero gisa nabi, afite icumu mu ntoki ndetse yiteye n'umwitero w'umuhondo.

Inyubako nziza, yubakanye ubuhanga, ni inyubako irimo intebe z'umukara zifite amapine y'umukara, ariko hejuru zifite ibara rya move. Ku nkuta z'iyi nzu, hasize amarangi y'umweru.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hagaragaramo abaganga bambaye impuzankano z'akazi, hari umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso bigaragare ko hari umurwayi ari kwitaho ari kuvura indwara y'amaso.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haragaragaramo umuganga wambaye impuzankano z'akazi uri gusuzuma umurwayi indwara y'amenyo, imbere y'uyu muganga hari impapuro zirambitseho ikaramu, ku biganza by'uyu murwayi haragaragara telefone.

Mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, haragaragaramo abagabo bambaye impuzankano z'akazi, bari kumwe n'abandi bantu bambaye imipira y'icyatsi yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Aha haragaragara abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, barimo koza mu kanwa bakoresheje amazi meza n'umuti wabugenewe ndetse n'uburoso.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari umurwayi uryamye wambaye agapira karimo amabara y'umweru n'umukara, umuganga ari kumusuzuma areba ikintu yamufasha.

Aha haragaragara umwana wasamye, ari kumwe na muganga, muganga biragaragara ko ari kumuvura indwara zo mu kanwa, aho bisa nk'aho ari iryinyo agiye kumukura.

Aha haragaragara umugore wambaye umupira w'umweru ndetse ari kumwe n'umwana mutoya wambaye umupira w'umweru, bafite urudodo rw'umweru barimo bararwifashisha bakora isuku yo mu menyo.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haragaragaramo abaganga babiri bari kureba indwara umwana arwaye yo mu kanwa, imbere yabo ku meza hari impapuro ndetse n'ikaramu.

Aha haragaragara umwana mutoya wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, aho bigaragara ko afite uburoso bwo koza mu kanwa buri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu. Uyu mwana bigaragare ko agiye gukora isuku y'amenyo.

Aha haragaragara umusore ufite amenyo meza y'urwererane, wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi. Uyu musore afite urudodo mu ntoki rw'umweru arimo ararwifashisha akora isuku yo mu kanwa.

Aha haragaragara umusore wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, uyu musore arimo guseka, bigaragare ko utu tuntu afite mu ntoki ari amenyo ya kizungu.

Umukobwa mwiza w'imibiri yombi, afite amenyo meza y'urwererane, afite umusatsi muremure w'umukara, ku munwa we yahatunze intoki ebyiri bigaragara ko we yararimo arata amenyo ye.

Umusore usa neza w'imibiri yombi, uyu musore bigaragare ko agira isuku, uyu musore afite ubwanwa bukeya, afite urudodo rw'umweru mu ntoki ari gukoresha isuku mu menyo ye.

Aha hagaragara umusore wambaye imyenda yo gukarabana, bigaragare ko ari gukora isuku yo mu menyo, ari kwireba mu kirahure, mu madirishya harimo rido z'umutuku.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye agakanzu kagiye karimo utubara, mo imbere yambariyemo agapira k'umweru, afite uburoso bwoza amenyo mu ntoki arimo arakuba mu menyo ye.

Aha ni kwa muganga aho batanga serivisi z'ubuvuzi, haragaragara umwana baryamishije bari kureba indwara arwaye mu kanwa, bigaragare ko ari iryinyo bagiye kumukura.

Aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho hari umusore bari kwitaho usa nkaho yagize ikibazo mu menyo. Ni umwirabura, yambaye agapira k'umukara.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari kugaragara umuganga w'umugore wambaye impuzankano z'akazi, ari gukura amenyo umurwayi, wambaye agapira karimo amabara y'umutuku.

Umukobwa mwiza w'imibiri yombi ufite imisatsi miremire yadefirije. Yambaye amaherena ku matwi, arimo arireba mu cyirori, iruhande rwe hateretse ravabo iriho agakombe k'umweru.

Aha haragaragara umusore w'imibiri yombi, afite amenyo meza y'urwererane, afite urudodo mu ntoki ze arimo ararunyuza hagati y'amenyo agenda akuramo imyanda.

Aha haragaragara umwana w'umuhungu ufite imisatsi myinshi, ari kumwe n'umusaza wambaye amadarubindi, bicaye mu nzu isa neza, bari gukina umukino w'amahirwe.

Aha haragaragara abantu bicaye bigaragara ko baje gusura ahantu nyaburanga bari kureba umuntu uri kuboha ibiseke. Bamwitegereje bishimye, inyuma yabo hari umugozi wanitseho imyenda.

Umukecuru w'umuzungu wambaye amadarubindi, ufite umusatsi urimo imvi nyinshi, yambaye agapira k'umukara, afite ikirahure mu ntoki, yifashe mu maso nkaho anyweye amazi akamukora.

Aha haragaragara ibiribwa bitandukanye, aho harimo ibiri mu ibara ry'umuhondo, umweru, umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Aha ni mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aho hagaragaramo umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hari umugabo ari gufasha kugenda, bigaragare ko uyu mugabo arwaye, mu nzugi no mu madirishya harimo ibirahure.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe, yambaye umupira w'amaboko magufi wa rakositi, ari mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, muganga ari kumufasha.

Aha haragaragara umuganga wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umugabo ufite imvi nyinshi mu mutwe wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru. Inyuma yabo hateretse ivase ririmo indabyo.

Aha haragaragara umugore wambaye imyenda y'ubururu, bisa nkaho ari kwifashisha utu twuma kugira ngo abashe gutambuka, inyuma ye hari intebe yari yicayeho iyi nyubako yubakishije amakaro kandi isizeye n'amarangi y'umweru.

Ni umugabo ufite imvi nyinshi mu mutwe, wambaye ishati irimo uturongo dutambitse, ateruye umwana, umwana afite igipopi mu ntoki.

Aha haragaragara umusaza uri gukina umukino w'amahirwe uzizwi nka damu, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako igaragaramo abamama babiri, harimo umukecuru umwe ndetse n'umuforomokazi wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, uyu mukecuru biragaragara ko arwaye afite ikirahure mu ntoki ku meza cy'amazi agiye kunywesha imiti.

Aha haragaragara umusaza wambaye umupira wa rakosita uri mu ibara ry'ubururu, yambaye amarinete afite n'imvi nyinshi mu mutwe, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, ari kumwereka uko azajya akora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ufite imvi mu mutwe we, yambaye umupira w'amaboko maremare, hari undi mugabo uri kumutsindagiza wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, bigaragare ko uyu musaza afite uburwayi.

Umukecuru ufite umusatsi urimo imvi, yambaye amaherena y'umweru ndetse n'amadarubindi, yambaye ikanzu y'ubururu, azaniye icyo kunywa umusaza ufite imvi mu bwanwa ndetse no mu musatsi.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi haragaragaramo umukecuru ufite imvi nyinshi wambaye ishati y'umweru, ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'icyatsi, afite umusatsi w'umukara.

Abagore babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe yiteza igitambaro mu mutwe kiri mu ibara ry'umutuku, undi yambaye umupira wo kwifubika uri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hirya yabo hari ibiti birebire ndetse n'indabyo ziri muri jaride.

Aha haragaragara ababyeyi bagiye batandukanye, aho bari mu gikorwa cyo gusoroma icyayi. Inyuma yabo, hari igitente gikoze mu biti, ni cyo bari gusoroma bashyiramo.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bakuze bafite imvi, umusaza yambaye amaherena ndetse n'impeta ku kiganza. Umusaza arimo aranywa imiti, umukecuru arimo aramwereka uko agomba kuyinywa.

Umukecuru wambaye amadarubindi akaba afite umusatsi muremure w'umukara, ari mu nyubako ifite ibirahure, ari gusuka imiti ku kiganza, agiye kuyinywa.

Aha haragaragara abantu batatu, aho hagaragara umugabo ndetse n'umugore bari gusindagiza umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe, uyu musore yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, barimo baramuhagurutsa ku gitanda.

Umusaza ufite imvi nyinshi, wambaye amadarubindi, afite ikaramu ndetse n'ikayi ye ari kwandikiraho. Ari kwandikira ku meza, iruhande rwe ku meza hari amatelefoni abiri.

Umukecuru wirabura wambaye urunigi rurimo amabara y'umukara n'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, uyu mukecuru yiteye umwitero w'umweru, hirya ye haragaragara inzu isize amarangi y'umweru n'ibiti birebire hari n'imodoka ebyiri.

Aha ni kwa muganga mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, aho hari kugaragara umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa, wambaye ishati y'amaboko maremare, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano z'akazi, aho ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari umuforomokazi uri kwita ku mukecuru, ugendera mu kagare k'abafite ubumuga. Uyu mukecuru yambaye amaherena, ndetse n'isaha ku kuboko.

Abagore babiri bari kubyina imbyino za Kinyarwanda, bose bafite amaherena ku matwi, umugore uri imbere afite imvi nyinshi mu musatsi we, yambaye agapira k'ikijuju, naho uw'inyuma yambaye agasengeri k'umweru, bari kubyina bateze amaboko.

Inyubako itangirwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, iragaragaramo umugabo wambaye imyenda y'umweru, ufite imvi nyinshi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, aho hari umugore uri kumusukira icyo kunywa mu kirahure, imbere ye ku meza hari ibiribwa bitandukanye.

Aha haragaragara abagore babiri umwe wambaye amadarubindi, aho afite ikirahure mu ntoki asa nkaho afite ikintu ari kunywa, undi ari gutegura ifunguro ririmo imboga zigiye zitandukanye harimo urusenda, inyanya ndetse n'izindi.

Aha haragaragara umuryango w'abantu batanu, hagaragaramo igitsina gore cy'abantu batatu, abagabo ni babiri, umusaza yambaye amadarubindi ndetse afite n'uruhara, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, barishimye.

Aha haragaragara umusaza n'umukecuru bigaragara ko bakuze, umukecuru yambaye amaherena y'umweru ndetse n'agapira k'umutuku, ku meza haragaragara ibinini, umusaza niwe ugiye kubinywa.

Icyumba cyateraniyemo abagore batatu, bigaragara ko babiri umubyeyi n'umwana bari gukina amakarita. Biragaragara ko umwana w'umukobwa bisa nkaho byamucanze, aho ari gutomboza inka ari bukine ariko areba hejuru.

Umukecuru ufite umusatsi muremure yambaye amadarubindi, imbere ye hari imiti y'ibinini bigaragare ko iyi miti yayihawe na muganga agiye kuyinywa.

Aba ni abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, babiri muri bo bafite umusatsi usa umweru, bari kwifotora bakoresheje kamera y'imbere kugira ngo bose baze mu ifoto.

Aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho hagaragara umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umweru n'umupira w'umweru bari gutera urushinge. Ari kuruterwa n'umuganga w'umugore, biragaragare ko uyu murwayi ari kubabara.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, aho iki cyapa kirimo ibiganza bibiri biri kuramukanya, ibyo biganza biri hagati y'inyuguti ya H ndetse na R.

Iyi ni inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho bigaragara ko iyi nzu yubakishije amakaro; muri iyi nyubako haragaragaramo abantu batandukanye, aho hari umugore ubahagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki, ufite umusatsi muremure w'umukara yambaye n'amadarubindi.

Abagabo babiri bombi bambaye amakositimu ndetse na karuvati, umwe afite impeta ku rutoki, hari n'undi wambaye amadarubindi, bose bafite ibitabo mu ntoki.

Inyubako nziza isize amarangi agiye atandukanye, yahuriyemo abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye, imbere hari icyapa cyanditseho RBC kiri mu ibara ry'ubururu.

Inyubako yubatse neza isa neza hasi irimo amakaro harimo abantu bagiye batandukanye, imbere yabo haragaragara umugore ufite umusatsi muremure w'umukara, wambaye amadarubindi, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'umweru, aho iki cyapa bigaragara ko gishushanyijeho umubumbe w'isi. Kiganjemo amagambo yandikishije mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Aha haragaragara umugore n'umugabo, umugabo yambaye isaha ku kuboko ndetse n'ishati y'umukara n'umukufi mu ijosi, bafite icyapa cya RBC.

Aha haragaragara ifoto iriho abantu bane, aho hagaragaraho abagabo babiri ndetse n'abategarugori babiri, umwe mu bategarugori yambaye amadarubindi, biragaragara ko bari kwamamaza agakingirizo.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, hahagaze abantu batandatu, barimo abagore batatu ndetse n'abagabo batatu.

Inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye. Hicayemo urubyiruko rwiganjemo abakobwa bambaye imyenda y'imyeru ndetse bose badefirije imisatsi. Bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari umukobwa ubahagaze imbere usa nkaho ariwe uri gutanga ikiganiro.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aha hagaragara ifoto iriho abantu bane birabura, aba bantu ni abagore, inyuma y'iyi foto haragaragara ibimera bitandukanye, hirya haragaragara inzu yubakishije amatafari ahiye.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo ari mu mabara atandukanye, harimo amabara y'ubururu, umutuku...

Iki ni icyapa cyandikishije amagambo ari mu ibara rya orange ndetse n'umweru, aho hari kugaragara umugabo wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare, ari kuganiriza abana bicaye imbere bambaye impuzankano z'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nzu, basa nk'aho bafite ikintu baje kubyinira, aho buri wese afite igitabo mu ntoki ari kwifotozanya na cyo, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haragaragara abaganga bambaye impuzankano z'akazi, inyuma yabo hari umugabo wambaye agapira ka move k'amaboko magufi wambaye n'agapfukamunwa, ndetse mu madirishya harimo rido ziri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubatse neza mu buryo bwa gihanga, ni inyubako irimo abantu bagiye batandukanye, biragaragara ko higanjemo urubyiruko rw'abakobwa, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse n'ikigina.

Inyubako yateraniyemo inama, irimo abantu bagiye batandukanye, aho hari abantu bicaye imbere y'abantu bambaye amabaji mu ijosi, hagaragaramo umugore w'umuzungu. Iyi nama, imbere haragaragara icyapa, cyanditseho RBC.

Icyapa gikoze mu buryo bw'uruziga kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, amagambo acyanditseho ari mu ibara ry'umukara yanditse azengurutse mu buryo bw'uruziga.

Aha haragaragara icyapa kinini cy'ubururu kiriho ibiganza bibiri biri kuramukanya. Impande y'ibi biganza bibiri biri kuramukanya, hagaragara inyuguti ya H ndetse na R.

Inyubako isize amarangi atandukanye, imbere y'iyo nyubako hari icyapa gihagazeho abantu babiri, umwe w'umugore ndetse n'undi w'umugabo, uyu mugabo yambaye ikositimu, bose bambaye baji mu ijosi.

Aha haragaragara icyapa gishushanyijeho umugore ufite umusatsi muremure w'umukara, yambaye amaherena y'umweru ndetse n'agapira kari mu ibara rya pinki, amagambo yanditse kuri iki cyapa ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Aha haragaragara inyubako yubatse mu buryo bwa gihanga, ifite parafo zikoze mu buryo bw'imbaho, iyi nyubako hasi harimo amakaro, iyi nyubako bigaragare ko ishakirwamo amakuru runaka.

Aha haragaragara ibizwi nk'imyicunda, aho ibyuma iziritseho biririmo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, hagaragara urupangu ruri haruguru y'iyi myicunda rwubakishije amatafari ahiye ndetse mu imbere mu gipangu haragaragaramo inyubako zitandukanye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etage, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, haragaragara abantu benshi bahashagaye, bigaragare ko baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, imbere yayo hari jaride, ndetse haparitse n'imodoka y'umukara.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etage, ni inyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'uburu, iyi nyubako ikikijwe na jaride zirimo indabyo zigiye zitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka.

Inyubako nziza kandi nini, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye. Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje kandi ifite amadirishya menshi y'ibirahure. Hirya yayo haragaragara ibimera bitandukanye.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga, ni inyubako isize amarangi atandukanye, imbere y'iyi nyubako haragaragara esikariye ndetse n'umugabo wambaye itaburiye, hino gato haragaragara indabyo ziri muri jaride.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi; ni inyubako irimo ibitanda abarwayi baryamaho, haragaragaramo intebe zifite amapine ndetse n'ibitanda bifite amapine.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'indembe, aho hari abantu babiri baryamye babacometse bomboni, aha ngaha biragaragara ko bari bageze kure.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, aho hagaragaramo ibitanda bifite amapine biryamwaho n'abarwayi. Hejuru kuri parafo haragaragara amatara ari kwaka. Harimo n'agatente kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Inyubako nziza yubatse neza yubakanye ubuhanga, isize amarangi agiye atandukanye aho isize irangi ry'umweru ndetse n'irangi ry'ikijuju, hasi harimo amakaro, ifite parafo z'umweru ndetse n'amatara arimo kwaka.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari kugaragaramo umuntu wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi, haragaragara rido z'ubururu zizinze ndetse harimo n'ibitanda bifite amapine.

Aha haragaragara inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho iyi nyubako isize amarangi y'umweru, ikaba yubakishije amakaro. Muri iyi nzu harimo intebe zifite amapine ndetse harimo n'umuntu wambaye impuzankano z'akazi.

Inyubako isize amarangi agiye atandukanye, aho bigaragara ko harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'irindi risa ikijuju, hagaragara n'icyumba cyanditseho amagambo Emergency room, bigaragara ko iki ari icyumba cy'ubutabazi.

Ibi ni ibitaro by'Akarere ka Rwamagana, aho byubatse mu buryo bwa etaje, imbere yabyo ku muhanda hari abantu bagiye batandukanye bahahagaze, bigaragare ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho uyu mujyanama w'ubuzima ari gupima ibiro by'umwana, hirya hari umubyeyi uhicaye wambaye amaherena y'umweru.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye, umuryango wayo urakinguye, urebeye mu idirishya urabonamo umuntu uhagazemo imbere, ku muryango wayo hari jaride zirimo indabyo zigiye zitandukanye.

Inyubako isa neza isize amarangi agiye atandukanye aho isize amarangi umweru, icyatsi ndetse n'umukara, haragaragara amarido y'umweru ndetse ari mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza isize amarangi y'umweru, iyi nyubako yubakanye ubuhanga buhambaye, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, aho turi kubonamo intebe zifite amapine ndetse na tereviziyo.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ni inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, imbere y'iyi nyubako haragaragara umutaka wa Airtel ndetse imbere yayo haparitse imodoka enye.

Inyubako nziza isize amarangi ari mu mabara atandukanye, ni inyubako nini bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ku muryango w'iyi nyubako hateretse ivaze iri mu mabara atatu.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga, ni inyubako ifite igisenge gitangaje, hejuru kuri parafo haragaragara amatara ari kwaka, hasi hubakishije amakaro.

Aha hagaragara inyubako yubatse neza ifite amadirishya arimo ibirahure, hateyemo intebe zegamirwa, hasi haragaragara ko harimo amakaro.

Inyubako isize amarange atandukanye, aho ku rukuta rumwe rw'iyi nyubako hari kugaragara isaha imanitseho, haragaragaramo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, iyi nyubako hasi yubakishije amakaro.

Aha haragaragara inyubako nyinshi zubakanye ubuhanga, aho hari kugaragara n'ubupariko bw'imodoka harimo imodoka eshatu, impande y'ubwo bupariko, haragaragara jaride ziteyemo imikindo.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Shagasha, gisize amarangi y'umuhondo, gisakaje amabati y'ubururu, amagambo yanditse kuri iyi nyubako ari mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abantu bahicaye.

Aha ni mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haragaragaramo umuganga w'umugore wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'imove, yambaye ga z'umweru mu ntoki, ari gusuzuma umurwayi.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bwa etaje isize amarangi atandukanye bigaragare ko hano ari ku bitaro. Ku rupangu hariho ibyuma bisize irangi ry'ubururu.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, haragaragaramo umukobwa wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, ari kwerekera imbere hagaragara abandi bantu bambaye impuzankano z'akazi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa gihanga, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, iyi nyubako isize amarange y'umweru ndetse haragaragaramo n'intebe zifite amapine.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi haragaragara umugabo wambaye impuzankano y'akazi, ku buriri hicaye umwana wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse ku ruhande hari umusore wambaye igitambaro mu mutwe.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hari kugaragara umugore wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu. Afite umusatsi udefirije w'umukara muremure, biragaragara ko afite umurwayi ari kwitaho.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, ahagaragaramo umuganga wambaye impuzankano z'akazi ndetse n'amaherena, yambaye udupima umuvuduko w'amaraso, aho ari guha serivise umwana wambaye impuzankano z'ishuri, inyuma ye hari etajeri irimo imiti.

Inyubako nziza, isize amarangi y'umweru, hasi harimo amakaro. Hateyemo intebe zifite amapine, haragaragaramo umuntu, wambaye itaburiya y'umweru.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari kugaragara abarwayi baryamye ku bitanda ndetse harimo inzitiramubu zizirikiye hejuru, mu madirishya harimo ibirahure.

Aha haragaragara abagore batandatu, aho aba bagore bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, harimo umwe wambaye baji mu gatuza.

Inyubako yo kwa muganga, itangirwamo serivise z'ubuvuzi, haragaragaramo umugabo wambaye itaburiya y'umweru. Imbere ye, hari ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Aha haragaragara inyubako yubatse neza isize amarangi asa neza, aho hagaragaramo igitanda gifite amapine, gishasheho ishuka iri mu ibara ry'ikijuju, ku buriri hariho umusego.

Aha haragaragara inyubako zigiye zitandukanye, bigaragare ko izi ngizi ari inyubako abantu batuyemo. Haragaragara n'abantu bagiye bicaye muri jaride, ndetse hakagaragara n'imikindo miremire n'amashyamba hirya ku musozi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iyi nyubako haragaragaramo abarwayi baryamye ku bitanda, hari kugaragaramo abaganga bambaye impuzankano z'akazi.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga, hasi harimo amakaro, iyi nyubako ku rugi harimo ibirahure ndetse hateretse n'ivaze irimo ikirabyo, kuri parafo hejuru amatara arimo kwaka.

Inyubako nziza isize amarangi meza, ni inyubako ifite ibirahure biri mu mabara agiye itandukanye, iyi nyubako imbere yayo hari jaride irimo imikindo ndetse n'izindi ndabyo zitandukanye.

Ibi ni ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge aho bisize irange ry'umweru ndetse n'irange risa ikijuju, bikikijwe na jaride irimo indabyo ndetse iruhande rwabyo haragaragara agahanda karimo amapave.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo haragaragara imodoka iri kwinjira mo imbere ndetse ku muryango hari n'umugabo wambaye itabuririya y'umweru, imbere yayo haragaragara jaride zirimo indabyo zitandukanye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje, isize amarangi y'umweru ndetse yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako mu madirishya hayo ndetse n'inzugi harimo ibirahure, iruhande rwayo hari abantu bari kuhagenda.

Inyubako yubatse neza, isize amarangi y'umweru, hasi harimo amakaro, muri iyi nyubako, harimo intebe zifite amapine ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho iyi nyubako isize amarangi agiye atandukanye. Mu muryango w'iyi nyubako haragaragara ko harimo ibirahure, ndetse hasi harimo amakaro.

Aha haragaragara umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yambaye amadarubindi, ari kumwe n'umugore bigaragara ko atwite, iruhande rwabo haragaragara inzu ya nyakatsi.

Iyi ni forumasi icuruza imiti ivura indwara zitandukanye, ku muryango haparitse imodoka ebyiri, iruhande rw'iyi farumasi hateretse ikintu kibamo imyenda bacuruza.

Inyubako ngari yubatse neza, ni inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Haragaragaramo ama vaze ari mu ibara ry'umukara, harimo n'intebe zifite amapine. Ku nkuta hasize irangi ry'umweru.

Inyubako nziza isize amarange y'umweru ndetse n'umuhondo, haragaragara akantu gapanzemo matera ebyiri, hejuru yako haragaragara agashushanyo kari mu ibara ry'umutuku, hejuru kuri parafo ho amatara ari kwaka.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, haragaragaramo umurwayi w'umugore uryamye ku gitanda, iruhande rwe haragaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, ndetse inyuma ye haragaragara amarido ari mu madirishya.

Inyubako nziza yubakanye ikoranabuhanga harimo ibikoresho byinshi byiza. Iyi nyubako imbere hose hasize amarangi y'umukara ndetse n'imbere amatara arimo kwaka.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga ahagaragara umukobwa uryamye mu gitanda, yambaye akagofero k'umukara mu mutwe, ari kurebana na muganga nkaho ari kumuha amabwiriza, inyuma ya muganga haryamye undi murwayi.

Inyubako nziza isize amarange atandukanye aho bigaragara ko isize amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, mu nzugi ndetse no mu madirishya harimo ibirahure, mu imbere mu nzu hateyemo intebe zifite amapine.

Iyi ni inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho irimo amashusho agiye atandukanye. Hateyemo intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse izi ntebe zifite amapine. Hari n'imeza iteretseho mudasobwa.

Inyubako nziza isize amarangi ajya gusa umuhondo, ifite ibirahure mu madirishya no mu nzugi, urebeye mu idirishya urabona umugabo ubyibushye wicayemo imbere ndetse biragaragara ko iyi nyubako ari nini cyane.

Inyubako yubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni inyubako isize amarangi agiye atandukanye. Iyi nyubako harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, aho hagaragaramo intebe zifite amapine ndetse na televiziyo.

Iyi ni inyubako yateraniyemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, aho bari kugaragaramo abasaza ndetse n'abakecuru, abasaza n'abakecuru bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, aho hari abambaye imipira iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ay'umweru.

Iyi ni inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako mu madirishya no mu nzugi harimo ibirahure, imbere y'iyi nyubako haragaragara indabyo zitandukanye.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hagaragaramo abaganga bambaye impuzankano z'akazi, iyi nyubako isize irangi ry'umweru ndetse haragaragaramo n'ameza ari mu ibara ry'umweru.

Aha haragaragara inyubako nziza isize amarangi y'umweru, mu imbere harimo intebe nyinshi hicayemo abantu bake, hejuru kuri parafo hariho amatara ari kwaka.

Inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo haragaragara jarde, haragararana n'akayira karimo amapave ndetse biragaragara ko ikirere cyaho gikeye.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro ahagaragaramo ibitanda bisa neza, bigaragara ko ari ibitanda by'abarwayi, haragaragaramo amarido y'ubururu ndetse n'inzitiramibu zizirikiye hejuru, inkuta z'iyi nyubako zisize irange ry'umweru.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, ni inyubako isize amarangi ajya gusa ikigina. Mu madirishya no mu nzugi harimo ibirahure. Iyi nyubako ifite kositara kandi imbere yayo haragaragara jaride zirimo indabyo zitandukanye.

Inyubako nziza yubatse neza yubakanye ubuhanga, iyi nyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, aho iyi nyubako hasi harimo sima isa neza.

Iyi ni inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje, bikaba ibitaro by'Akarere ka Shyira. Ibi bitaro bisize irangi ry'umweru, bisakaje amabati asa ikigina.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho muri iyi nyubako bigaragara ko harimo ibikoresho bitanga umuyaga bizwi nka vandarateri mu ndimi z'amahanga, muri iyi nyubako kandi haragaragaramo intebe zifite amapine, hasi iyi nyubako yubakishije amakaro.

Inyubako isize amarangi y'umweru ndetse n'ajya gusaya ikijuju, iruhande rwayo hateye indabyo zitandukanye, inyuma yayo haragaragara ikigega cy'umukara, mu muhanda haragaragaramo umugore uri kugendera mu gatebe k'abantu bafite ubumuga.

Iyi ni forumasi icuruza imiti ivura indwara zitandukanye, aho muri etajeri hagaragaramo uducupa ndetse n'udukarito biri mu mabara atandukanye. Hejuru kuri parafo haragaragara amatara atari kwaka.

Kwa muganga ahagaragara umugore wambaye imyenda y'umweru, yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'amadarubindi, ari guha umwana w'uruhinja serivise, aho afitwe n'umubyeyi wadefirije umusatsi.

Inyubako yateraniyemo abantu bagiye batandukanye, aho hari kugaragaramo abasaza, abakecuru ndetse n'abana, imbere yabo hari abantu babiri bahicaye ndetse hari n'undi muntu ubahagaze imbere wambaye ikote rya kositimu, biragaragara ko ari we uri kubaha ikiganiro.

Iyi ni inyubako nziza yubatse neza yubakanye ubuhanga, ku gipangu cyayo hariho H ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, iki gipangu cyangwa se iyi porutiye isize irangi ry'ubururu, muri iki kigo mo imbere harimo igiti kinini gifite amashami maremare k'inganzamarumbo.

Umukobwa mwiza w'imibiri yombi, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro imwegereye, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye kuri tapi, imbere ye harambuye mudasobwa.

Aha haragaragara igikoresho kizwi mu gukora imyitozo ngororamubiri nk'ariteri, aho kiri kumwe n'imbuto zigiye zitandukanye, iruhande rwabyo hateretse n'igipara kirimo amazi yo kunywa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri mu matwi z'umweru ndetse yambaye n'agasengeri ka move, afite n'umusatsi muremure w'umukara.

Aha haragaragara umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, yambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro imwegereye y'umukara ndetse yambaye n'inkweto z'umweru, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi kari mu ibara ry'umukara, afite icupa ry'umweru ari kunyweramo amazi, aya mazi biragaragara ko asa neza atavangiye.

Aha haragaragara umuganga wambaye impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'ubururu, yambaye na baji mu gatuza. Ari kugorora imitsi umugabo wambaye agapira k'umweru.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ahandi ari umweru, iruhande rwe haragaragara imbuto zigiye zitandukanye ari bwifashishe namara gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, aho mu ibara ry'umutuku hashushanyijeho agasaraba, mu ibara ry'ikigina hakaba harimo ibiganza bibiri biri kuramukanya, ahandi hakaba harimo abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ibi biri mu kimenyetso cy'uruziga.

Aha haragaragara umukobwa uryamye wambaye agakabutura kagufi kari mu ibara ry'umukara, aho ari kumwe n'undi muganga wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara. Uyu mukobwa biragaragara ko yagize ikibazo mu ivi, umuganga ari kumufasha.

Aha ni mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni inyubako isize amarangi y'umweru, haragaragaramo etajeri irimo ibikoresho bitandukanye, imbere y'iyi etajeri haragaragara agatente kari mu ibara ry'umuhondo.

Aha haragaragara agasanduku karimo imiti igiye itandukanye, aho hagaragaramo n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga nko mu gihe aba ari kubaga, haragaragaramo umukasi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Aha haragaragara icyapa kiriho ibikoresho bigiye bitandukanye, aho hariho agakarito kari mu ibara ry'umutuku, aka gakarito kariho akamenyetso k'umusaraba kari mu ibara ry'umweru.

Aha haragaragara icupa ry'umweru ririmo kuvomo amazi meza, aho iri cupa ku munwa waryo hasa ubururu, hariho akaderi kari mu ibara ry'umutuku, aya mazi arimo arava mu gipara ajya mu kirahure.

Inyubako yubatse neza irimo kamera ifata amashusho, isize amarangi y'umweru, hagaragaramo televiziyo nini ndetse harimo intebe zifite amapine.

Aha haragaragara ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri bigiye bitandukanye, aho hari kugaragaramo umugozi wo gusimbuka ndetse n'imipira irimo uw'amaguru ndetse na Basket, hakagaragara n'udukoresho muganga yifashisha apima niba umurwayi afite indwara y'umutima.

Aha ni mu kibuga cyabereyemo umukino, aho bigaragara ko hari umukinnyi ugize ikibazo, umukinnyi mugenzi we ari kumukanda ukuguru bigaragare ko bashobora kuba bamuvunnye.

Aha ni mu kibuga ahari hari kubera umukino, uyu musore bamuteruye mu kibuga bigaragare ko yagize ikibazo. Aba ni abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, abazwi nk'abakorana na Croix Rouge.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare umwegereye uri mu ibara ry'umukara, yambaye agakabutura kagufiya na ko kari mu ibara ry'umukara, yambaye inkweto ndetse n'amasogisi, bigaragare ko ari inzobere mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, yambaye agapantaro kamwegereye, afite umusatsi mwinshi w'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye haragaragara ibara ry'ubururu.

Aha haragaragara inkoni ebyiri, ni inkoni zifite udushumi turi mu ibara ry'umukara, izi nkoni zifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona.

Aha haragaragara urusobe rw'imbuto cyangwa ibiribwa bitandukanye, aho hari kugaragara inyanya, avoka isatuye, urusenda, karoti ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, haragaragara n'imyenda ya siporo igiye itandukanye.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari kugaragara umuganga uri kwita ku murwayi. Haragaragara tereviziyo iri kugaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Umusore ufite telefone mu ntoki wambaye isaha ku kuboko, yambaye agapira k'umukara, hari undi muntu w'umuzungu uri kumukoresha imyitozo ngororamubiri, bigaragare ko ariwe uri kumutoza. Iyi nyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Aha haragaragara umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umukara ndetse n'amadarubindi, afite icupa ry'amazi ari kuyimena mu maso.

Aha hagaragara inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho ibi bikoresho bifite ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga, aho aba baganga ari babandi batanga ubutabazi bw'ibanze nk'ahantu habereye ikibazo, haragaragara agakapu k'umutuku karimo n'ibara ry'umweru riri mu gasaraba.

Umukobwa mwiza ufite umusatsi muremure, yambaye isengeri y'umweru ndetse n'agapantaro kamwegereye kari mu ibara ry'umukara, uyu mukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara abasore bagera muri bane, batatu bambaye imyenda isa, bari gusiganwa birukanka, aho ahantu bari gusiganira hari imirongo y'umweru.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga aho umuganga yambaye impuzankano z'akazi, akaba afite igikoresho cyabugenewe ari kureberamo umwana ngo arebe indwara arwaye mu maso, umubyeyi ufasha uyu mwana yiteye umwitero uri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Aha haragaragara igikoresho kizwi nka aliteli, cyifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, haranagaragara imbuto zigiye zitandukanye umuntu yarya amajije gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo voka, inyanya, pome n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho iyi nyubako irimo amakaro. Ku nkuta zayo hasize amarangi agiye atandukanye ndetse harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi.

Aha haragaragara amashusho atandatu, aya mashusho agiye ari mu mabara atandukanye, nubwo ari mu mabara atandukanye, hariho n'imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Aha haragaragara umukobwa wambaye ipantaro ya move, yambaye n'udukomo ku kuboko kwe kw'iburyo, yambaye isengeri ijya gusa umuhondo, yicaye kuri tapi yarambije ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, yambaye ekuteri mu matwi z'umweru, yambaye agasengeri ka orange, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara umusore wambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi, uyu musore biragaragara ko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakufi mu ijosi ari kunywa amazi mu icupa.

Umukobwa wambaye isengeri, yambaye amaherena ku matwi, afite agasume kari mu ibara ry'umukara ku rutugu, uyu mukobwa biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara ikiganza gifite ijagi, uyu muntu biragaragara ko ari gusuka amazi meza asa neza mu kirahure, biragaragara ko ari kuyagabanyiriza muri iki kirahure.

Aha haragaragara udukoresho twifashishwa na muganga turi mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, aka gakoresho muganga akifashisha agira ngo yumve umurwayi niba arwaye indwara y'umutima.

Inyubako nziza isa neza yubakanye ubuhanga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, haragaragaramo intebe ziri mu ibara ry'ubururu, hakagaragaramo n'izindi zifite amapine. Ku rukuta haragaragara isaha.

Aha ngaha ni mu kibuga ahabereye imyidagaduro, aho hagaragara abantu bari gucinya akaziki, bambaye amasengeri ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hirya yabo haragaragara abandi bantu benshi ndetse n'insina z'imibyare.

Aha haragaragara umukobwa wambaye agakabutura gatoya kari mu ibara ry'umukara ndetse n'agasengeri kari mu ibara ry'umukara, hari umugabo uri kumuzirika bande ku kirenge cy'iburyo, bigaragare ko yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu, yambaye isaha ku kuboko, uyu musore afite ubwanwa, ari kunywa amazi bigaragare ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Inkweto nziza z'umukara ndende ni inkweto zifite imashini, izi nkweto zikunze kwambarwa n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi cyangwa se abasirikare.

Aha haragaragara umusore wambaye umupira wa rakosite, uri mu ibara ry'umweru, uyu musore bigaragare ko yagize ikibazo mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo, afite agatambaro k'ubururu ari kwigandisha.

Umukobwa wambaye ikabutura iri mu ibara ry'ubururu, yambaye agasengeri kari mu ibara ry'icyatsi, uyu mukobwa yambaye inkweto zifunze, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara yitiriningi, yambaye n'agapira ka oranje, iruhande rwe hari ibimera bitandukanye.

Aha haragaragara umukobwa wambaye isengeri y'ubururu ndetse n'agapantaro k'ubururu kamwegereye, afite umusatsi muremure ugera mu mugongo, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye uri kunywa amazi muri gurude iri mu ibara ry'umukara, yambaye umupira wo kwifubika ndetse n'ikabutura iri mu ibara ry'umukara. Uyu musore biragaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara amaguru y'umuntu w'umugabo, aho yambaye agakabutura k'umukara kamanuyemo ibara ry'ubururu ku ruhande. Ku ivi rye hashushanyijeho ibara ry'ubururu ndetse na pinki. Bigaragare ko muri iri vi harimo ikibazo.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'kigina ari kwikora ku ivi aho bamupfutse, bigaragare ko munsi y'iri vi rye ry'iburyo hagize ikibazo yicaye ku buriri.

Aha haragaragara ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri bitandukanye, aho hari kugaragaramo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko uzwi nka Handball ndetse n'idenesi.

Aha haragaragara umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, yambaye n'ipantaro y'ubururu imwegereye, yambaye inkweto nziza irimo amabara atandukanye, uyu mukobwa biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara umugabo uri kwitoza gukina umukino uzwi nka rugby, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'isaha ku kuboko. Iruhande rwe hari umugabo uri kumutoza uko akina, inyuma yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Aha haragaragara umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, aho bigaragara ko yagize ikibazo mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo, afite agatambaro yayifatishijeho kari mu ibara ry'ubururu.

Umuzungu w'umugore wambaye agapira k'amaboko magufi, ari kumwe n'umugore umeze nk'umubikira witeye igitambaro mu mutwe cy'umweru. Bari kumwe n'umwana ukiri muto, hirya yabo haragaragara abandi bantu bari muri gahunda zabo.

Aha haragaragara umukobwa wambaye ipantaro imwegereye, yambaye agasengeri k'umukara, iruhande rwe hari umugozi wo gusimbuka, hateretse n'agacupa k'amazi. Yicaye kuri tapi, arimo arareba muri mudasobwa.

Umukobwa wirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara imwegereye, afite umusatsi muremure, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara, wambaye n'agakabutura k'umukara, yambaye inkweto zifunze n'amasogisi arimo amabara y'umweru n'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho hagaragara amacupa agiye atandukanye arimo imiti, haragaragara n'ikiganza bari kuzirikaho bande.

Aha haragaragara igikapu kinini kirimo amabara agiye atandukanye, aho iki gikapu gikoreshwa n'abantu batanga ubutabazi bw'ibanze cyane cyane mu kibuga iyo bari kwita ku bakinnyi.

Aha haragaragara umugabo w'umuzungu wambaye imyenda y'umukara, uri kugorora imitsi umusore uryamye hasi wambaye agakabutura gato k'umukara, biragaragara ko uyu musore arwara imitsi, akaba yaje kwaka serivisi yo kuyirambura.

Aha haragaragara udufoto turiho ibi bimera bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko ibi bimera byose byifashishwa bikabyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Aha haragaragara ikimera kizwi nk'umuravumba, umuravumba abantu bose barabizi ko wifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo, umuravumba kandi ushobora ku kuvura inkorora.

Aha haragaragara inzabya ndetse n'udusahani dutoya dukoze mu ibumba, hakagaragara n'ibiganza biri gusekura umuti gakondo, aho bigaragara ko hano hari umuti mwinshi uvura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibimera byahinzwe ahantu heza. Biragaragara ko bishishe; ibi bimera amababi yabyo barayasoma bakayasekura, akabyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Amacupa abiri ari mumabara atandukanye apfundikishije imifundiko iri mu ibara ritandukanye, rimwe ripfundikishije umufuniko wa orange irindi ripfundikishije umufuniko wa shokora.

Aha hari imbuto zigiye zitandukanye aho hari kugaragara inanasi idakase ndetse n'imineke, haragaragara n'udukarito tugiye dutandukanye aho bigaragaza ko bano bantu bari kwamamaza.

Agasekuru kari mu ibara ry'umukara, karimo n'umusekuzo gateretse hagati mu bimera bya soromwe, biragaragara ko ibi bimera biri busekurwe muri aka gasekuru bikabyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Iki ni ikimera cyahinzwe ahantu heza, barangije bagihereza ifumbire ihagije, biragaragara ko gifite amababi ashishe, iki kimera kibyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bitandukanye, aho hari kugaragara ibimera birandaranda ndetse n'ibikura bikajya hejuru, ibi bimera hafi ya byose bibyazwa umuti gakondo.

Aha haragaragara ibimera bigiye bitandukanye, aho hari n'ibyasaruwe bikegerezwa agacupa kari mu ibara rijya gu gusa umukara, ku ruhande gatoya hari ibinini by'umweru bigaragare ko ibi binini byakozwe muri ibi bimera.

Aha ni mu murima uhinzwemo ibimera bizwi ku izina ry'igikakarubamba, hahagazemo abagabo bambaye imipira y'icyatsi, bamwe bambaye n'amadarubindi, hirya yabo haragaragara ibiti birebire.

Ibi ni ibimera bigiye bitandukanye, aho hagaragara pasiparume, indabo zarabye indabyo zigiye zitandukanye, umweru, umutuku, ndetse na oranje.

Aha haragaragara agasekuru ka kinyarwanda gakoze mu ibumba, mo imbere harimo umusekuzo usekura imiti, aka gasekuru gateretse hagati y'ibimera bigiye bitandukanye, iruhande rwako hari agacupa.

Aha haragaragara icyapa kiriho agafureshi kazengurutse kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kanditseho makumyabiri na kane akarongo kaberamye karindwi.

Aha haragaragara agakarito kari mu ibara ry'umweru, aka gakarito kazamo imiti, aka gakarito amagambo akanditseho ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku.

Agasekuru ka Kinyarwanda gakoze mu ibumba, muri aka gasekuru harimo umusekuzo, utu dusekuru duteretse impande y'imbuto zigiye zitandukanye aho hari kugaragara amaronji ndetse n'amatunda.

Aha haragaragaraho icyapa cyanditseho ngo igisubizo kuri amibe, bigaragare ko iri cupa riri hano ry'umweru ririmo umuti uvura inzoka ya Amibe.

Icupa riri mu ibara ry'umweru ndetse ririmo n'ibara rya move. Iri cupa rishushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba, aho hejuru hajya ku munwa hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara urubuto ruzwi nka avoka. aho hari kugaragara avoka imwe idasatuye n'indi isatuye. Iruhande rw'uru rubuto haragaragara ikimera kizwi nk'igikakarubamba.

Iki ni ikimera gifite amababi atatanye kimeze nka seleri. Seleri izwiho kuba ari imboga, ikaba n'ibirungu.

Akabuni gatoya kari mu ibara ry'ubururu, gapfundikishije umupfundikizo w'icyatsi, kariho ikimenyetso cya kabiri n'ikimenyetso cyo gukuba, biri mu ibara ry'umutuku.

Uyu ni umuganga uri kwerekana imiti mu ntoki ze, arimo arerekana ubwoko bw'imiti, yambaye itaburiya y'umweru ndetse yarambuye ibiganza hejuru y'ameza y'umweru.

Aha hagaragara uducupa tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, dushushanyijeho igikakarubamba ndetse n'igisiga kiri kuguruka, aya macupa yombi uko ari abiri, apfundikije imifuniko iri mu ibara rya shokora.

Igiti kirekire bigaragara ko gikuze, giteye ahantu hagaragara nkaho hari umukenke, hirya yacyo hari ibindi biti bigufi bigaragara, hagaragara n'ikirere cyiza gikeye gifite ibicu by'umweru.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, aho hagaragaramo ibimera byagwingiye kubera kubura izuba, hakabamo n'ibindi byakuze bikagera hejuru.

Aha haragaragara etajeri iteretsemo amacupa y'ibirahure agiye atandukanye, aho hari kugaragaramo n'andi macupa ari kumwe n'ikiyiko, haragaragara ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye zo kurya.

Urusobe rw'ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo imbuto ndetse n'ibitera imbaraga, haragaragara n'utubindi twa kinyarwanda, utu tubindi aho dukoze mu ibumba.

Icupa riri mu ibara ry'umweru ryandikishijeho amagambo ari mu ibara rya shokora ndetse n'umweru, iri cupa rishushanyijeho igisiga kiri kuguruka, iri cupa bigaragare ko harimo umuti.

Aha haragaragara imiti gakondo isekuye, aho iyi miti gakondo bayisekuye bayikuye mu bimera bigiye bitandukanye nka bimwe tuzi nk'imiravumba.

Iki ni ikimera cy'igiti gifite amashami arandarananda, aho aya mababi yacyo yifashishwa mu kugira ngo abyazwe umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Icupa riri mu ibara ryijimye, ririho igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi, ripfundikishije umufuniko uri mu ibara ry'icyatsi, iri cupa harimo umuti wakozwe mu kimera kizwi nk'umuravumba.

Uducupa turi mu bwoko bugiye butandukanye, hari agacupa kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'akandi kari mu ibara ry'umweru, twose dushushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba ndetse n'igisiga kiri kuguruka.

Iki ni ikimera kizwi nk'igikakarubamba, igikakarubamba abantu benshi bazi ko kifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo gusa, si ibyo gusa ariko igikakarubamba kinifashishwa hakorwa amavuta yo kwisiga.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, aho ibi bimera hafi ya byose bibyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Aha haragaragara agacupa k'umweru karimo amabara y'umuhondo, kandikishijeho amagambo ari mu ibara rya oranje n'umukara, hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara uducupa tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, aho utu ducupa twombi dupfundikishije umufuniko usa ''chocolat''; kuri utu ducupa kandi hashushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba ndetse n'igisiga kiri kuguruka, iruhande hateretse ikirahure kirimo amazi.

Aha haragaragara utubuni ndetse n'amacupa turi mu ibara ritandukanye, aho hari akabuni k'umuhondo ndetse n'akandi kabuni k'umweru, mu macupa haragaragara amacupa y'umweru ndetse n'icupa ry'icyatsi. Icyo ibi byose bihuriyeho ni uko bishushanyijeho igikakarubamba ndetse n'igisiga kiri kuguruka.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo turi kumwe tugaragaraho ibisiga biri kuguruka, dupfundikije imifuniko y'umutuku ndetse hashushanyijeho ibimera bitandukanye.

Aha haragaragara ikimera kizwi nk'umuravumba, cyangwa igicunshu, aho igicunshu kivura inzoka zo mu nda. Iyo mu nda hakuriye, uragifata ugasoroma amababi yacyo, warangiza ukayahekenya, ukamira amazi.

Aha haragaragara amacupa agiye ari mu ibara ritandukanye, aho hagaragarira icupa ry'umuhondo na shokora, rishushanyijeho igikakarubamba, icyo yose aya macupa ahuriyeho ni uko ashushanyijeho igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara amacupa ari mu ibara atandukanye, aho hari utujerekani tw'umweru ndetse n'utw'umuhondo, inyuma yatwo haragaragara igitambaro kiri mu ibara rya move.

Aha haragaragara etajeri irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ndetse ku ishusho ya mbere ibanza hagaragara inzu ikinguye, iri munsi y'ishusho ya mbere haragaragara ibimera bitandukanye.

Uru ni urubuto ruzwi nk'igipapayi, rurasatuye mo imbere harimo imbuto ziri mu ibara ry'umukara. Uru ruri mu mbuto ziri mu birinda indwara kandi zifasha abana gukura neza.

Aha haragaragara umuntu uri gushyira umuti w'amenyo ku buroso, uyu muti w'amenyo biragaragara ko wakozwe mu kimera kizwi nk'igikakarubamba.

Aha haragaragara amacupa ari mu mabara atandukanye ndetse n'ubunini bwayo buratandukanye. Iyi miti icyo yose ihuriyeho ni uko yatunganyijwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Iki ni ikimera kizwi nk'umuravumba, aho umunyarwanda wese abizi ko umuravumba ubyazwa umuti gakondo, umuravumba kandi uvura indwara zitandukanye harimo n'inkorora.

Isahani iriho ikiyiko ndetse bigaragara ko hariho n'amagi, hirya gato haragaragaraho tangawizi n'izindi mboga zitandukanye, ibi byose biragaragara ko biri buvangwe bikabyazwa umuti.

Aha haragaragara icupa riri mu ibara rijya gusa icyatsi, hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka, iruhande rw'iri cupa haragaragara ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba.

Aha haragaragara amacupa agiye atandukanye ndetse hari kugaragara n'agakarito. Kuri ibi bicupa ndetse n'udukarito hashushanyijeho igisiga ndetse n'igikakarubamba.

Aha haragaragara amacupa agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, amwe yanyandikishijeho amagambo ari mu ibara rya move, andi mu ibara ry'ubururu ndetse n'irindi cupa ryandikishije mu ibara rya shokora, yose hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka.

Imbuto zitandukanye zizwi nk'amaronji haragaragaramo amaronji adasatuye ndetse n'asatuye, haragaragaramo utundi tubuto dutoya tw'umuhondo, aho bigaragara ko izi mbuto zifashishwa umuntu amajije gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha haragaragara agasozi kariho ibimera bigiye bitandukanye, aho hari kugaragara abantu bagera mu munani bari kuhatemberera.

Aha haragaragara ibikombe bibiri cyangwa udusorori, tugaragaramo umuti w'ibyatsi, iruhande rwawo haragaragara ibibabi by'ikimera kizwi nk'umuravumba bigaragare ko ari umuti gakondo bari gutunganya.

Aha haragaragara amacupa y'umuhondo apfundikije imifuniko iri mu ibara rya shokora, ndetse iruhande rwayo hateretse udukarito tw'icyatsi ndetse n'umweru, hari agakarito kamwe kanditseho fa cumi na gatanu.

Aha haragaragara utubido dutatu turi mu mabara atandukanye, aho harimo ak'umuhondo ak'umweru ndetse n'akandi k'umweru gapfundikije umufuniko w'ubururu, inyuma yatwo hari imbuto zitandukanye.

Aha haragaragara icupa riri mu ibara ry'umweru, ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'imove ndetse n'umukara. Iruhande rw'iri cupa, haragaragara ibinini by'umweru birebire.

Aha haragaragara udukarito turi mu mabara atandukanye, aho utu dukarito tugiye turimo ibintu bitandukanye. Utu dukarito bigaragare ko harimo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Aha haragaragara agacupa k'umweru kabambitseho igipapuro cy'iroze, iruhande rwako hariho igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru agira ati:" kurangiza vuba, gucika intege".

Aha haragaragara ibimera bibiri, aho ibi bimera bisa nkaho bihinze nko mu ivazi, iruhande rwabyo haragaragara urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Aha haragaragara amafoto ane, aho bigaragara ko yose ariho ibiganza ndetse n'ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, ibi bimera biragaragara ko ari ibimera byifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo.

Aha haragaragara uducupa turimo umuti dushushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba, aha hagaragara nanone indabyo z'umweru bigaragare ko na zo zigira uruhare mu kubyazwa umuti gakondo.

Aha haragaragara umudamu witeye igitenge cy'umweru, afite umusatsi w'umukara. Afite isakoshi ku kaboko ke k'ibumoso, biragaragara ko hari amababi y'ikimera runaka ari gusoroma.

Aha haragaragara akantu k'akabaho karambitseho ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera biragaragara ko biri butunganwemo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Icupa riri mu ibara ry'umweru ryandikishijeho amagambo ari mu ibara rya shokora, iri cupa ryanditseho umubare ijana, hejuru haragaragara igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara amacupa apfundikije imifuniko iri mu mabara atandukanye aho hari amacupa apfundikishije imifuniko y'umutuku, umweru ndetse n'ikigina, aya macupa harimo umuti gakondo wakozwe mu muravumba.

Aha hagaragara agasekuru ka Kinyarwanda ndetse n'umusekuzo, bigaragare ko aha hantu batunganya imiti gakondo igenda ituruka mu bimera bigiye bitandukanye, ahangaha haragaragara ibimera ndetse byakusanyijwe bigiye bitandukanye.